Aba ni abagabo ndetse n'abagore bitabiriye inama y'umushyikirano, bigaragara ko bategeye amatwi bari no kumva ibiri kuvugirwa muri iyo nama, hari uducupa twiza twifashishwa mu kubika amazi dukoresha turi kunywa, hari agakayi keza kifashishwa mu gufata amakuru yavugiwe aho hantu, ndetse n'agakaramu ko kwandika.

Aba ni abaturage rusange, higanjemo abagabo ndetse n'abagore ndetse n'urubyiruko bigaragara ko rwitabiriye inamama rusange, bari kuganira ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye, hari ibikoresho bifasha kugira ngo abantu bose babashe kumva ibyo bari kubwirwa.

Aba ni abayobozi ndetse n'abaturage muri rusange aho baje mu nama y'umushyikirano baganira ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye, harimo iyo kwirinda indwara yitwa ubushita bw'inkende.

Inama rusange yahuriwemo: abagore, abagabo, hari n'abakora mu nzego zishinzwe gucunga no kurinda umutekano, aho bari kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye; hari amashitingi meza afite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Uyu ni umwe mu bayobozi ari gutanga ikiganiro ku baturage bitabiriye inama. Hari intebe nziza zo kwicaraho, hari imitako myiza, hari imisambi myiza yo kuruhukiraho,..

Aba ni abaturage biganjemo abagabo ndetse n'abagore baje mu nama rusange, aho bategeye amatwi abayobozi kugira ngo bumve ibyo bababwira, hari uducupa twiza twifashishwa mu kubika amazi bityo bakabasha kuyanywa mu gihe inyota ibishe.

Aba ni abayobozi higanjemo abashinzwe umutekano ku rwego rw'Igihugu bigaragara ko bategeye amatwi ibiri kuvugirwa mu nama, hari uducupa twiza twifashishwa mu kubika amazi bityo tukabasha kuyanywa afite ubuziranenge, hari indangururamajwi yifashishwa mu kugira ngo amajwi agere ku bantu bose.

Aba ni bamwe mu baturage bitabiriye inama rusange, hari uducupa twiza turimo amazi yo kunywa, hari ameza meza, hari intebe zifashishwa mu kwicaraho, hari amadirishya acamo umwuka mwiza wo guhumeka uturutse hanze.

Uyu ni umudamu bigaragara ko ari gutanga ikiganiro ari kugiha abantu, yambaye indorerwamo z'amaso ndetse akambara n'isaha bityo bikamufasha kureba igihe. Hari intebe nziza yicayemo bityo bikamufasha kuruhuka mu gihe yasoje kuvuga ijambo rye.

Uyu ni umukino wifashishwa n'abaturarwanda, mu gukina no gusabana. Uhuza inshuti, hari agatebe keza bicaramo bari gukina uyu mukino bityo bigatuma utananirwa.

Iki ni kimwe mu bikoresho bikunze gukoreshwa ino aha iwacu mu Rwanda kifashishwa n'abaturage biganjemo abasaza ndetse n'abakecuru mu gutumura ndetse no kunywa itabi.

Iyi ni ingoma yifashishwa n'ababyinnyi babyina imbyino gakondo, hakaba hari n'imirishyo yifashishwa n'abakaraza kugira ngo bavuze ingoma.

Umukino mwiza ukunzwe gukinirwa inaha iwacu mu Rwandau ukinwa n'abana, abasaza, abakecuru, abagore ndetse n'abagabo. utuma usabana n'uwo muri gukina bityo umubano ukiyongera.

Iyi n'imisatsi intore zifashisha ziri guhamiriza ari byo kimwe mu bigize umuco nyarwanda...

Iyi ni imwe mu matungo yitwa inka, akunze gushyigikira umuco nyarwanda, iri tungo ryitwa inyambo.

Aba ni bamwe mu ntore bahamiriza babyina umuco nyarwanda, hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye harimo ingoma, inanga, hari abageni ndetse hari n'imitako myiza igiye itandukanye kandi ibi byose ni ibikorerwa mu Rwanda.

Aya ni amwe mu matungo akunze kororwa ino aha iwacu mu Rwanda, ashyigikira umuco nyarwanda azwi ku izina ry'inka. Ikindi kandi akaba yitwa inyambo. Atanga umusaruro mwiza utandukanye harimo gukurura ba mukerarugendo ndetse agatanga n'ifumbire.

Aba n'abaturage bigaragara ko bitabiriye iyi nama, harimo abana, abagabo ndetse n'abagore. Hari ibikoresho byiza byifashishwa mu kubika amazi bakanywa ndetse bakumva baguwe neza. Hari intebe nziza bicayemo kugira ngo bumve baguwe neza ndetse n'ameza yifashishwa bari kwandika ibintu byinshi bigiye bitandukanye byavugiwe mu inama.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa n'abaturarwanda bikifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi bityo bigatuma tuba ahantu habona.

Ipoto rifasha kumanikwaho imigozi ijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abaturage; bityo bigatuma tuba ahantu habona iyo bwije.

Iyi ni imwe mu minara yifashishwa mu kugira ngo hakwirakwizwe umuriro w'amashanyarazi mu baturarwanda muri rusange, bityo bigatuma tuba ahantu habona.

Ipoto ryifashishwa mu kumanikaho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage, bigatuma baba ahantu habona kandi bakanabasha kogosha imisatsi yabo.

Uyu ni umwe mu baturage ukora mu kigo cy'Igihugu gishinzwe gukwirakwiza ndetse no gutanga umuriro w'amashanyarazi mu baturage, bityo bigatuma abaturage baba ahantu habona kandi hakeye, bigafasha n'abaturage gukora imirimo myinshi itandukanye bifashishije umuriro w'amashanyarazi.

Iyi ni imwe mu mapoto yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro mu baturage. Hari ibiti byiza, bitanga umwuka mwiza duhumeka, bikifashishwa no mu gutanga inkwi ducanaho dutetse, hari amazu meza abaturage baturamo ndetse n'uturabyo twiza.

Uru ni urujya n'uruza rw'abantu bava ahantu hamwe ndetse bajya n'ahandi. Hari inyubako nziza z'ubucuruzi ushobora kuhagana ukahabonera icyo ushaka icyo aricyo cyose. Hari amapoto yifashishwa mu kumanikaho insinga zijyana imiriro y'amashanyarazi mu ngo z'abaturage ndetse no mu bucuruzi. Hari ibiti byiza bitanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse hari n'amatara yifashishwa mu kumurika mu gihe cya nijoro.

Iki ni kimwe mu gikoresho cyifashishwa mu kumurikira abaturage mu gihe cya nimugoroba. Iki gikoresho gikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi, kandi gitanga urumuri ku rwego ruhagije, bityo bikarinda impanuka zibera mu muhanda mu gihe cya nijoro.

Ibikoresho byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage, hari amashyamba meza atanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse hari n'imisozi myiza ibereye amaso.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage, bityo abaturage bakaba ahantu habona ndetse hakeye, binafasha kandi mu gukora imyuga myinshi igiye itandukanye nko kogosha abantu, kuko ikorwa ari uko hari umuriro w'amashanyarazi.

Aka ni kamwe mu kayira kifashishwa n'abaturage, bajya ahantu hagiye hatandukanye, hari intoki nziza dukuraho ibitoki byo kurya, hari amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro mu baturage.

Umwe mu bakozi bifashishwa n'ikigo gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hari insinga zifashishwa kugira ngo umuriro w'amashanyarazi unyuremo ubashe kugera mu mazu yacu.

Iyi ni imwe mu nyubako za leta, iberamo imyidagaduro, cyane cyane imipira y'amaguru. Hakaba hari abaturage, baje gukurikira, umupira w'amaguru.

Iki ni kimwe mu bibuga byifashishwa mu kwerekana imikino hakabera ibirori byinshi bigiye bitandukanye, hari abaturage bitabiriye, hari amashyamba, hari ibikoresho byifashishwa mu kugira ngo abaturage bumve neza ibiganiro bihatangirwa.

Izi ni zimwe mu modoka zikunze kwikorera izindi mu gihe hari imodoka yagize ikibazo, bigaragara ko zigiye guca ku kiraro kiza cyubakishijwe ibyuma kugira ngo zijye ahandi hantu, hari amashyamba meza yifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iyi ni inyubako ikunze gukinirwamo umukino w'umupira w'amaguru ndetse abaturage bakahahurira bakakorera inama.

Uyu ni umuturage bigaragara ko ahagaze imbere y'inzu, aho ari ikusanyirizo ry'amata, aho abaturage bagana bakahabonera amata. bityo bakongera imirire myiza ku bana. Hari ipikipiki cyangwa ikinyabiziga cyifashishwa mu kugemura amata kiyazana ku ikusanyirizo.

Iyi ni imwe mu nyubako za leta iherereye mu karere ka Nyagatare yitwa Irembo ry'amahoro, aho abaturage bahagana bakahabonera ubufasha bugiye butandukanye.

Izi ni inyubako zubatswe na guverinoma y'uRwanda, zisakaje amabati y'umutuku ndetse n'amatafari ahiye, ikindi izi nyubako imbere yazo hari robine ndetse n'utwuma, twifashishwa mu kumanikaho imyenda. Aya mazu azatuzwamo abatishoboye, kandi hari n'umugabo uhagaze imbere wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru.

Uyu ni umwe mu baturage bigaragara ko ahagaze ku kiraro kifashishwa mu gucibwaho n'abaturage ndetse n'ibinyabiziga muri rusange. Hari umugezi mwiza utemba bityo ushobora kuhakura amazi ukajya kuyakoresha. Hari amashyamba meza, hari ibiti byiza byifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Uyu ni umuhanda wifashishwa mu gucibwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse n'abaturage, hari ibiti byiza bikikije umuhanda bitanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse hakavamo n'inkwi zo gutekesha ibiryo tukarya dukumva tuguwe neza, hari amapoto azifashishwa mu kumanikaho insinga z'amashanyarazi bityo umuriro ukagera mu baturage.

Iyi n'inzu yifashishwa n'abaturage mu kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga yabo, ndetse bakanahakira inguzanyo bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Aba ni abaturage bari mu nama rusange, aho bategeye amatwi abayobozi bagira icyo baganiraho kitagenda neza ndetse n'ibigenda neza kugira ngo babashe gutera imbere muri rusange.

Aba ni abaturage bari mu nama rusange aho bategeye amatwi abayobozi kugira ngo bumve ibyo babaganirizaho kandi bikanabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Uyu ni umwe mu bayobozi aho ari kubwira abaturage abaganiriza mu kwirinda ruswa, abaganiriza ku kigendanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Aba ni bamwe mu baturage bitabiriye inama rusange, harimo abagabo, abagore ndetse n'abayobozi, aho bari guhugurwa babwirwa ku burenganzira bwa muntu ndetse no guhabwa ubutabera.

Abaturage bari kuganirizwa, kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, igihumbi kimwe magana acyenda mirongo icyenda na kane, aho ko abakorewe Jenoside, bakeneye ubutabera ndetse ntibizongere kubaho ukundi.

Abaturage bari kwibuka jenoside yakorewe abatutsi aho baganirizwa ku butabera ndetse bakanaganirizwa ku burenganzira bwa muntu.

Abaturage baje kwibuka, abacu bazize Jenoside yakorewe abatutsi, bahagaze bategeye amatwi ibiganiro biri hacishwa, bafite impapuro, bari kwandika kugira ngo batazibagirwa ibyahavugiwe.

Aba ni bamwe mu baturarwanda, bari muri gahunda ya Girinka. Aho bari guha umuturage inka bakamuha n'ibikoresho azifashisha mu korora yanka. Hari utwatsi twiza cyane bahagazemo, hari ibiti byiza bibaha umwuka mwiza wo guhumeka ndetse hari n'amazu meza ahakikije.

Aba ni abaturage, ndetse harimo n'abashinzwe umutekano, aho bari kuganira ku bigendanye n'ubutabera, ndetse n'uburenganzira bwa muntu muri rusange.

Aba ni bamwe mu baturage bafatanyije n'abashinzwe umutekano ku rwego rw'igihugu, aho bari bari gufata ifoto y'urwibutso, hari ikinyabiziga cyiza kifashishwa mu gukora ingendo, hari ubusitani bwiza bahagazemo.

Abaturage ndetse n'abashinzwe umutekano ku rwego rw'igihugu, bigaragara ko bitabiriye inama rusange ivuga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ku mutekano w'igihugu, ku bumwe n'ubutabera, ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Hari udukoresho twiza two kunyweramo amazi, bityo bagashira inyota.

Aba ni abaturage baje mu nama rusange bategeye amatwi abayobozi, aho bari kubahugura ku bigendanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Aba ni abaturage bigaragara ko baje mu gikorwa cyo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane. Aho bitwaje indabo zo gushyira ku mibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi.

Aba ni abana ndetse n'aba mama n'aba papa bitabiriye inama rusange. Baje kumva uburyo ki bajya basaba ubutabera ndetse bakanubahiriza uburenganzira bwa muntu. Hirya y'aho hari amashyamba yifashishwa mu gutanga umwuka mwiza duhumeka.

Aba ni bamwe mu baturage bahagaze hamwe bari kuganira, ku ngingo zigiye zitandukanye harimo n' izigendanye n'ubutabera, ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Aba ni bamwe mu baturage bigaragara ko hari byinshi bagiye bari kuganira bitandukanye, hari ibitoki byiza byifashishwa mu gukuramo imineke ikindi kandi abantu b'abaturage bakabirya bakumva baguwe neza, hari ibyo wakuramo inzoga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hari intebe nziza ushobora kwicaraho ugacuruza ndetse ukumva uguwe neza ukanicaraho ukaruhuka.

Aba ni bamwe mu baturage bitabiriye iyi nama rusange bigaragara ko hari umuyobozi ukora muri minisiteri ishinzwe iby'umutekano uri kubaganiriza ku ngingo zigiye zitandukanye, hari ibiti byiza biri kuzana amahumbezi aho inama yabereye.

Aba ni bamwe mu baturage bitabiriye inama rusange. Higanjemo abana, urubyiruko, abagore ndetse n'abagabo ndetse harimo n'abakora mu kigo gishinzwe umutekano ku rwego rw'igihugu. Hari amashyamba meza atanga amahumbezi ku baturage bitabiriye inama ndetse bakanabogamira izuba.

Izi ni zimwe mu nzu zifashishwa mugucuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga amayinite no kubitsa no kubikuza. Hari umuturage utwaye ikinyabiziga uhetseho ibikoresho by'isuku.

Iparitsemo imodoka zifashishwa n'abaturage mu kunoza ingendo zabo bava ahantu hamwe bajya ahandi. Hasi hari sima ituma imodoka ziparika neza bikazirinda guhungabana.

Izi ni zimwe mu nyubako z'ubucuruzi, abaturage bagana bakahabonera ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hari ibyapa bigaragaza inzira y'abanyamaguru, hari abaturage bari kuhaca bari kuva ahantu hamwe bajya ahandi, hari imirima myiza wateramo n'imyaka. Hari amapoto meza ajyana insinga z'umuriro mu nzu z'abaturage.

Iki ni kimwe mu bimenyetso byifashishwa mu muhanda, aho kigaragaza akayira abanyamaguru bagomba gucamo mu gihe bari kwambukiranya imihanda ikunze gucamo ibinyabiziga byinshi kugira ngo birinde impanuka.

uyu ni umuturage uri kukinyabiziga cyitwa igare, rikunda kwikorera imizigo ndetse hakaba hari n'abarikoresha mu gukora siporo.

Iki ni kimwe mu byapa biranga amerekezo iyi nyubako, harimuhanda ucamo ibinyabiziga bitandukanye hari n'umuhanda wa maguru, hari amatara yifashishwa mu kumurika mu gihe bwije.

Iyi ni imwe mu nyubako abaturage bifashisha bagana bagiye gukora ingendo. Hari ibikoresho byiza by'ubwirinzi bifasha kuzimya umuriro. Hari ibikoresho byiza bifasha kongera umuriro w'amashanyarazi mu gihe washize.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage bityo bigatuma abaturage baba ahantu habona, ikindi kandi bakabasha gukora ibikorwa bigiye bitandukanye byifashishwa n'umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda ufasha abaturage kuva ahantu hamwe bajya ahandi, ugafasha n'ibinyabiziga gucamo bijyana hamwe bijya ahandi, impande yawo hari ibiti byiza bitanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Icyapa kigaragaza nimero z'umuhanda, ibiti byiza bitanga umwuka duhumeka, inzu nziza icururizwamo amayinite ndetse abaturage bakanabamo.

Uyu ni umuhanda ukorerwamo ingendo nyinshi zigiye zitandukanye ,ucibwamo n'ibinyabiziga by'amoko yose ndetse n'abagenzi bakawucamo mu gihe bari kugenda, hari akayira kahariwe abanyamaguru ikindi hari icyapa kereka abanyamaguru aho bagomba guca mu gihe bagiye kwambukiranya umuhanda, hari amatara meza yifashishwa kumurika mu gihe cya nijoro.

Iki ni ikinyabiziga cyifashishwa n'abaturage, kibafasha kuva ahantu hamwe bajya ahandi, kikabafasha gukorera amafaranga, bityo bakiteza imbere, bagateza imbere n'igihugu muri rusange.

Iki ni kimwe mu binyabiziga bigendesha amapine abiri, byifashishwa n'abaturage mu kunoza ingendo zabo bava ahantu hamwe bajya ahandi, bityo bikorohereza igihe wamaraga uri kugenda n'amaguru, bikanafasha nyiri icyo kinyabiziga kubona amafaranga amufasha mu buzima bwa buri munsi.

Iki ni ikinyabiziga kifashishwa mu kuva ahantu hamwe kijya ahandi kizwi ku izina nk'imodoka, aho bigaragara ko kiri mu muhanda mwiza wakozwe na Leta, bityo bikagifasha kugera aho kigiye mu mahoro ndetse no mu mutekano nta mpanuka ibaye mu muhanda.

Aba ni abaturage bitabiriye inama rusange yo kuvuga ku bigendanye n'umutekano ndetse n'inzego zishinzwe umutekano, hari amashitingi ari mu mabara y'idarapo ry'Igihugu cyacu, ari iry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Aba ni bamwe mu baturage higanjemo abagore n'abagabo, ndetse harimo n'abakora umwuga wo gucunga umutekano, aho baje gu gukora umuganda rusange batema ibihuru bicikije akayira bagacirwamo n'abagenzi, bityo bigatuma umubu udakomeza gukwirakwira kugira ngo twirinde indwara ya malariya. Ndetse n'isuku ikomeze kugaragara.

Iyi ni nama rusange, aho abashinzwe umutekano ku mpande zombi, bari kuganiriza abaturage ku kigendanye n'umutekano n'uburyo wakwicungira umutekano.

Abaturage ndetse harimo n'abashinzwe inzego z'umutekano bafite amabuye bagiye kubaka, ibigori bitewe bisa neza mu gihe gito bizatanga umusaruro.

Aba ni abaturage bafatanyije n'inzego zishinzwe umutekano, aho bari gukora umuganda rusange batema ibihuru bikikije akayira abaturage bacamo.

aba ni abaturage basoje gukora umuganda rusange w'abaturage, bakaba bategeye amatwi abayobozi, kugira ngo bagire ibyo baganiraho, yaba ibibazo ndetse n'ibisubizo by'ibibazo bibaza.

Aba ni bamwe mu baturage bitabiriye inama rusange bari gucinya akadiho, hari inzu nziza zubatse neza, hari amashitingi meza yifashishwa n'abaturage mu kwirinda imvura. Ndetse n'izuba ryinshi.

Aba ni abaturage bafite ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye amasuka, imihoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bigaragara ko baje mu muganda rusange bari gutema ibihuru ndetse akaba ari nabyo bikwirakwiza imibu bityo bigatuma abantu barwara malariya hari abashinzwe umutekano ku rwego rw'igihugu ndetse n'abaturage basanzwe.

Aba ni bamwe mu baturage higanjemo abagore ndetse n'abagabo ,bitabiriye siporo rusange ibera ahashinzwe kubera imyitozo ngororamubiri. Hari amatara meza abafasha kumurika mu gihe cy'umwijima.

Aba ni bamwe mu baturage higanjemo abagabo bigaragara ko bari muri siporo rusange, kuko siporo ari ingirakamaro kandi siporo akaba ari ubuzima bityo bakabasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, hari ibiti byiza byifashishwa mu gutanga akayaga bityo bagakora siporo bumva baguwe neza.

Aturarwanda bigaragara ko bari mu kibuga bari gukina umupira w'amaguru, harimo abagabo babiri ndetse n'umugore, hari insina nziza zifashishwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo gutanga inzoga ndetse n'ibitoki byo kurya, hari abagabo begereye insina, umwe afite umuhoro.

Abaturage bari muri siporo rusange aho bakora siporo bakirinda indwara ndetse bakagira n'ubuzima buzira umuze bakabaho neza bishimye kandi basabana na bagenzi babo.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru aho bari gufata ifoto y'urwibutso mbere yuko umupira utangira, bakaba bahanze amaso uri kubafotora.

Uyu ni umupira wifashishwa mu mikino ngororamubiri, akenshi cyane ukifashishwa mu gukina umupira w'amaguru mu kibuga.

Umugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri mu kibuga ari kwitoza umukino w'amaguru, hari ubusitani bwiza abafana baruhukiramo bagafana.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari gukinira mu kibuga hakikijwe n'ubusitani abafana baza bakicaramo bakaruhuka bagafana umupira.

Aba ni abana bari mu myitozo ngororamubiri cyane cyane bari gukina umupira w'amaguru, bibafasha gusabana na bagenzi babo.

Aba ni bamwe mu baturarwanda bitabiriye siporo rusange aho bari kugorora imibiri yabo kugirango bumve baguwe neza kandi kuko burya siporo ni ubuzima.

Aba ni bamwe mu Banyarwandakazi bakunze gukina umukino witwa umupira w'amaguru, aho bahanganye n'iyindi kipe kugira ngo barebe abaributsinde, hari ibiti byiza bitanga umwuka mwiza wo guhumeka mu gihe bari gukina, bigatuma banabona akuka keza ko guhumeka ndetse n'akayaga.

Aba ni abakinnyi b'umupira aho bari gukina umupira w'amaguru hari n'umusifuzi w'igitsina gore uri kubafasha gusifura umukino barimo gukina.

Uyu ni umwe mu baturage bigaragara ko ari muri siporo, yaje kugorora umubiri, hari inyubako nziza imufasha kugira ngo nagire ikibazo ahagane, ahabonera ubufasha, hari amatara meza amufasha kubona mu gihe cya nijoro.

Iki ni igikombe cyahabwaga umukinnyi witwaye neza mu mikino ya Kagame kapu. Mu Karere ka Nyagatare. Kigahabwa umukinnyi witwaye neza kurusha abandi.

Aba ni bamwe mu bakinnyi bakina umupira w'amaguru mu Rwanda, hari ibyatsi byiza byifashishwa n'abaje kureba umupira bakicaramo, hari abaturage baje kureba umupira, hari ibinyabiziga bifasha gutwara abagenzi ndetse hari n'inyubako zegereye ikibuga aho bakinira.

Aba ni abagabo bari mu kibuga, bari gukina umupira w'amaguru. Harimo abagabo bagiye batandukanye, bambaye impuzankano zigiye zitandukanye. Harimo abambaye izisa ubururu ndetse n'abambaye izisa umuhondo. Hari igikoresho kifashishwa mu gutanga urumuri mu gihe cya nijoro. Hari n'inyubako ziteganye n'ikibuga, aho aba bagabo bari gukinira.

Iki ni ikinyabiziga cyitwa imodoka inzego zishinzwe umutekano zifashisha mu gihe bari kurinda umutekano cyane cyane umutekano wo mu muhanda.

Aba ni bamwe mu baturage bitabiriye kureba umupira w'amaguru, hari ibikoresho byiza byinshi bigiye bitandukanye, harimo intebe nziza ibafasha kwirinda kuvirwa n'izuba.

Iyi ni imwe muri siporo zikorwa cyane hano mu Rwanda, aho abana bari gukora siporo basabana na bagenzi babo, bityo ubucuti bugakomeza kwiyongera.

Aba ni abaturage higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bigaragara ko bari muri siporo rusange, hari ibiti byiza biteye ku muhanda, bitanga akuka keza ko guhumeka, hari ubusitani bwiza butuma umuhanda ugaragara neza.

Uyu ni umwe mu mihanda yifashishwa n'abaturage mu kuhaca bajya ahantu hamwe bava ahandi, ukunda gucibwamo n'ibinyabiziga byinshi kandi bigiye bitandukanye, hari amatara meza yifashishwa mu gihe ari kumurika igihe bumaze kwira, hari amazu menshi y'ubucuruzi bityo umuturage akahagana akabonera icyo ashaka cyose.

Iyi ni imwe mu nzira yifashishwa n'abaturage bava ahantu hamwe bajya ahandi, harimo utubuye twiza ushobora kwifashisha uri kubaka, hari utwatsi twiza ushobora kugaburira amatungo yawe cyangwa se ukicaramo ukaruhuka wumva unaniwe.

Umuturage utwaye ikinyabiziga ari mu muhanda wabugenewe ukikijwe n'ubusitani bwiza ugakikizwa n'ibiti byifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Aya ni amwe mu matungo akunze kororwa inaha iwacu mu Rwanda azwi ku izina ry'inka, atanga umusaruro mwinshi utandukanye harimo ifumbire, atanga amata, ikindi kandi atanga n'inyama, hari utwatsi twiza twifashishwa nk'ibiryo by'amatungo bityo bigatuma agira umusaruro mwiza.

Iyi ni imwe mu nyubako yifashishwa n'abaturage bahagana, bakaharuhukira, bakahabonera ibyo kunywa by'amoko atandukanye, bakahabonera ibyo kurya by'amoko atandukanye. Hari ibiti bikikije iyi nyubako, bitanga umwuka mwiza ku bagana iyi inyubako.

Uyu ni umuturage bigaragara ko ari guca umuhanda wakozwe na Leta, hari ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse n'amagare byifashishwa mu gutwara abagenzi bibavana ahantu hamwe bibajyana ahandi, hari inzu nziza z'ubucuruzi ushobora kuhagana ukahabonera icyo ushaka cyose.

Aba ni abaturage bakora umwuga wo gutwara ikinyabiziga moto ,bigatuma babasha gukorera amafaranga, bakabasha kubona ibyo bakeneye byose ,ndetse n'imiryango yabo bakabasha kuyimenyera ibyo ikeneye byose.

Uyu ni umwe mu baturage bigaragara ko akora umwuga wo gutwara ikinyabiziga kizwi ku izina rya moto, ari mu muhanda mwiza ufasha kuva ahantu hamwe bajya ahandi, umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza n'ubusitani bwiza bityo ukaba usa neza kandi urimo n'isuku.

Aba ni abaturage bigaragara ko bahagaze mu muhanda ucamo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, imodoka, amamoto amagare ndetse n'ibindi byinshi . Hari imodoka yifashishwa mu gutwara ibintu ibivana ahantu hamwe ibijyana ahandi. Hari n'imodoka yifashishwa mu gutwara ibinyobwa by'amoko yose, hari amazu y'ubucuruzi ushobora kuhagera ukahasanga ibyo wifuza byose.

Uyu ni umwe mu mihanda yifashishwa, icibwamo n'ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, biva hamwe ndetse bijya n'ahandi, hari agahanda kagenewe abanyamaguru bityo bigafasha mu kwirinda impanuka nyinshi zigiye zitandukanye zibera mu muhanda.

Uyu ni umuhanda wifashishwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari n'umuhanda wagenewe abanyamaguru kugira ngo birinde impanuka zibera mu muhanda.

Aba ni abaturage bigaragara ko barikugendera ahahariwe abanyamaguru, hari amatara meza yifashishwa mu kumurika mu gihe nijoro, hari ibiti bitanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse bikazana n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda w'igitaka, hafi yaho hari ubusitani bw'amabara abiri umuhondo n'icyatsi hateye n'ibiti.

Iki ni kinyabiziga kitwa moto giparitse ku muhanda mwiza wa kaburimbo, ahari iduka ryifashishwa mu gutanga ibiryo by'amatungo ikindi hari na kandagira ukarabe yifashishwa mu gukaraba bityo tukirinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Uyu ni umwe mu mihanda ikunzwe gukoreshwa n'ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, harimo amamodoka, amagare ndetse n'amamoto, harimo umurongo utandukanya impande ebyiri bigaragaza ibinyabiziga bigenda mu mpande zigiye zitandukanye, harimo n'inzira yahariwe abanyamaguru bigaragara ko irimo n'abanyamaguru bari kugenda.